Abantu bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, hakaba harimo babiri bambaye amataburiya y'umweru, bisa naho hari abaganga, hirya hari umugabo wicaye wifashe mu maso, bisa naho yaje kuburana n'umugore, hirya hari umugore uhagaze iruhande rw'igikuta, wambaye agapira k'umuhondo.

Abaganga bari mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bisa n'aho ari icyumba gipimirwamo ibizamini bafashe abarwayi mu rwego rwo kugira ngo bamenye indwara barwaye, hakaba harimo robine bakarabiraho cyangwa se bogerezaho ibikoresho ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye.